Urubyiruko rwiganjemo abakobwa n'abahungu, bakaba bambaye imyenda isa y'ubururu, iriho ikirangantego cy'u Rwanda, bakaba bagaragara bari mu nama, umusore umwe afite uducupa tubiri tw'amazi, undi afite agacupa k'umukara ko kunyweramo ikawa.

Inama igaragaramo abantu benshi harimo abagabo n'abagore n'umuzungu. Bakaba bicaye ku meza isa umutuku, bakaba bafite amazi imbere yabo, mudasobwa, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara z'amapine, bakaba bari mu nzu igaragaramo amatara y'umweru, purafo y'umweru n'imiryango.

Inama ya Leta, imbere hakaba hagaragara umugabo uri kuvuga wambaye ikoti ry'umukara, hakaba hagaragara intebe zicayeho abantu benshi z'umuhondo, hirya gato hakaba hagaragara icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo ari ibara ry'ubururu, icyatsi, hakaba hagaragara ibyuma by'ikoranabuhanga, amakaro...

Abantu benshi bari hamwe bose basa nk'abari kwifotoza, bakaba bahagaze ku maesicariye agana ku nzu, inyuma yabo hakaba hari inzu y'ibirahure hakaba hari n'ururabo ruri mu mavaze.

Umugabo uhagaze imbere y'abandi bantu bari kuvuga ijambo akaba yambaye imyenda y'umukara inyuma yiwe hakaba hari icyapa cyamamaza ari umweru, n'icyatsi ayo mabara abiri akaba agizwe n'amagambo yanditsetswe imbere hakaba hanagaragara izindi ntebetsap hicayemo abantu indi myanya iticaye amabara ikaba hari tapi y'umutuku.

Iyi ni ifoto yerekana abakozi ba leta, bicaye bari mu nama, imbere yaho hari.... imbere ya buri muntu hateretse agacupa k'amazi, hakaba hari umwe ufite ijambo ufite mikorophone, akaba yambaye ikoti ry'umuhondo, agaragara nk'usa nk'ubwira abantu bicaye imbere atanga igitekerezo.

Abantu benshi bicaye bari mu nama bakaba bicaye mu bihande bibiri, hakaba higanjemo abadamu n'abagabo, bakaba bicaye ku ntebe z'umweru zisa, ab'imbere baka bicaye ku ntebe z'umukara, bakaba bose imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, hakaba hanagaraga umuryango usohoka ujya hanze.

Umugabo uhagaze arikuvuga. Akaba yambaye ishati y'amaboko maremare ya made in Rwanda, yakorewe mu Rwanda. Akaba ahagaze imbere y'abantu benshi arikubwira. Bamwe muri bo bafite mudasobwa imbere yabo n'agacupa n'uducupa tw'amazi. Hakaba harimo abagore n'abagabo. Inyuma y'uyu mugabo hariyo imiryango ibiri. Akaba ari ibikuta bisize amarangi.

Abantu benshi bafite inka, bafite ihene mu ntoki, hakaba hagaragara idarapo rya leta ry'u Rwanda riri mu ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu, hakaba hagaragara amazu atatu, inyuma hakaba hariyo urutoki runini ruteye. Hakaba harimo n'umukozi ukorera leta wambaye imyenda y'icyatsi, uri kureba kuri mudasobwa.

Umudamu wambaye ikanzu y'umweru, n'inkweto z'umukara, akaba ahagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi, abenshi bose bakaba bicaye ku meza ariho igitambaro cy'umutuku, bakaba bari munzu, igizwe n'ibikuta bisizwe amarangi y'umuhondo, ikaba ifite imiryango iri mu marangi y'ubururu.

Gahunda ya leta, iyobowe n'abagabo bane, batatu muri bo bambaye amakoti y'umukara n'amashati y'umweru y'imbere, n'undi wa kane muri bo akaba yambaye ishati, ikoti ry'ivu, n'ishati y'umweru, inyuma hakaba hari icyapa cy'ibara ry'ubururu cyanditseho n'amagambo y'umweru

Abagore babiri n'umugabo umwe bicaye ku ntebe z'umukara. Umugore wa mbere akaba yambaye iburuze n'undi akaba yambaye ishati y'umutuku. Umugabo akaba yambaye ishati y'amaboko. Bakaba bateretswe imbere indangururamajwi n'amakaye imbere yabo. Hakaba hari sanitayiza yo gukaraba mu ntoki. Bakaba bafite amazi yo kunywa buri muntu. Bakaba bicaye imbere y'ameza y'umutuku.

Ababyeyi bicaye ku ntebe zisa nyinshi bakaba bose bambaye imikenyerero bakaba harimo umbaye umukenyero, bafite amatelefone mu ntoki n'amasakame mu ntoki bakaba bari mu nama runaka.

Abantu batatu ,umugore yicayemo hagati ku ntebe y'umukara n'umugabo ku ruhande ku ntebe y'umukara n'undi mugabo ku ruhande wambaye ikoti ry'ubururu n'umukara ,bakaba bicaye kumeza asa umutuku inyuma yabo hakaba hari icyapa cyamamaza cyanditseho Kigali yacu Kigali ikeye,

Iyi ni ifoto yerekana abantu benshi bitabiriye inama runaka, imbere yabo bakaba hateretse udukayi two kwandikamo ibyo babashije kumva, imbere bakaba bafite amazi yo kunywa mu gihe bagize icyaka, bakaba bateze amatwi umuntu ubari imbere uri kuvuga, inyuma bakaba bari mu nzu, inyuma hakaba hagaragara amaderishya, inyuma hagaragara andi mazu.

Abagabo batatu bose bicaye imbere yabo akaba yari mudasobwa bakaba bate imbere yabo hafite amazi yo kunywa ari mu ducu ari mu ducupa twa palasitiki bose bakaba bicaye ku ntebe z'umukara zisa bakaba bica bicaye imbere y'ameza y'umutuku inyuma hakaba hagaragara amarido.

Abantu benshi bari bicaye ahantu hamwe bakaba bicaye ahantu hasa umutuku inyuma yabo hakaba hari irangi ry'umuhondo hakaba harimo ibirimo inkingi z'umuhondo nazo zifashe ibisenge bakaba bicaye ahantu hamwe bareba mu kibuga.

Umugore n'umugabo bicaye ku meza y'umutuku bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, umwe akaba afite indangururamajwi. uwu mama yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru na marinete, hakaba hari undi mugabo wambaye ishati gusa na karuvati y'ubururu, inyuma hakaba hari ibyapa byamamaza birimo amagambo ari mu mabara atandukanye ubururu n'ibyatsi Kigali.

Umudamu ufite akantu bavugiramo mu ntoki, akaba ari kuvuga ijambo akaba afite ikaramu y'umutuku mukiganza .;imbere akaba hateretse akantu agakombe banyweramo icyayi, n'amakayi ,na telefone .Iruhande rwe hakaba hari n'undi mugore wifashe neza ,wambaye akantu mu ijosi k'ubururu bakaba bari bicaye ku ntebe, inyuma haka hagaragara igikuta cy'amabara y'umweru.

Umukobwa wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, akaba yambaye isaha ku kaboko k'ibumoso, akaba agaragara yishura umuntu uri mu kazu, hirya hakaba hari umuhanda w'igitaka n'imodoka.

Icyapa kiburira kikaba kiri mu ibara ry'ubururu kikaba kirimo amagambo yanditswe mu ibara ry'umuhondo yerekanamo rimwe bikaba bivuga bisoba bakaba harimo amagambo yanditswe mu cyongereza aya magambo akaba avuga yuko hasigaye umunsi umwe ari wo nyuma wo kwishura.

Abasore babiri umwe yambaye umupira w'umweru tishati yumweru undi akaba yambaye ingofero yumutuku n'umupira w'umutuku akaba bicaye ku ntebe za plastike imbere yabo akabateretswe ameza ari igitambaro cy'icyatsi telefone y'umweru na marinet na teyikaramo bakaba bafite amashyirari mu kari inyuma yabo akaba ari badi basuraga bari mutete by' mu ihema ry'mweru nyumakore abandi bantu benshi bicaye hakaba hari amagare.

Urubuga rwitwa RFA. Rukaba rugaragaraho inyuguti zo mu cyongereza ari, home about us mandate product update production search and the system. Hakaba hagaragaraho abantu benshi bafite ibiti, bari muri gahunda yo gutera ibiti, bakaba bambaye imyenda isa.

Itangazo rya Rwanda reveni. Hakaba hagaragara amabara abiri atandukanye. Amabara abiri yose akaba agaragara mu ishusho ya mpande enye. Ishusho rya mbere rya mpande enye riri mu ibara ry'uburu. Irindi shusho rya kabiri rya mpande enye iriri mu rindi, rikaba rifite amabara abiri. Akaba igice cya mbere kigaragara mu ibara ry'umweru, n'ikindi gice cya kabiri kikagaragara mu ibara ry'ubururu. Rikaba ririho n'amagambo yanditseho mu ibara ry'ubururu.

Umunara muremure cyane ukaba ugaragaraho ikintu kimeze nk'igisiniya cy'umweru hamwe n'ikindi kimeze nk'igisiniya cy'umweru, ukaba uriho ibyuma byinshi biri mu mabara atandukanye umukara, umutuku, umweru kikaba hagaragara n'ikirere gisa icyatsi.

Icyapa cyamamaza, kikaba cyose kiri mu ibara ry'ubururu, kikaba kigaragaraho n'utundi tuntu dutatu twose turi mu mpande enye, turi mu ibara ry'umweru. Iki cyapa kikaba cyanditsweho mu nyuguti nyinshi, zikaba ari inyuguti z'umweru n'iz'umuhondo. iki cyapa kikaba kiriho andi magambo mato mato akiranga, hasi yacyo hakaba hariho aderesi, koru, nimero yo guhamagara...

umunara muremure, uri hagati y'amazu matoya, iruhande rw'ayo mazu hakaba hanagaragara ibiti biteyemo hagati mu mazu, hakaba hagaragara insinga ebyiri z'umukara z'amashanyarazi.

Umunara muremure ugizwe n'ibyuma byinshi n'ibindi bintu by'ikoranabuhanga hirya gato hakaba bagaragara utuzu duto duto akongera akagaragara iyindi bintu ku ruhande y'uwo munara harimo abantu bari kugenda hafi y'umunara ama modoka aparitse nibindi bintu by'inyuma.

Uruzitiro ruzitijwe ibyuma byinshi bigiye bihagaze bizwi nk'amagiriyaje, hakaba hagaragaramo utundi tuntu tubiri tunini tw'utubogise turimo ibintu utamenya by'ikoranabuhanga n'amashanyarazi, hakongera hakaagaragara ipoto, umunara utangirira hasi, inyuma y'ako kazu haka hagaragara ibiti byinshi biri inyuma urwo ruzitiro.

Icyapa cyamamaza kiri mu byice bibiri, igice cya mbere ni igice kigaragara amabara ry'kabagaragaraho amafoto ya telefone mudasobwa n'akandi kamashini gakora imibare, ikindi ikindi gice cyo ku ruhande kiri mu ibara ry'umuhondo kikaba gifite amagambo yanditse a amagambogambo akaba yanditse mu nyuguti z'ibara ry'umukara akaba ari icyapa cya Rwanda Revenue.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku, akaba afite mudasobwa imbere ye, akaba yakojejeho ibiganza bye bibiri. Muri iyo mudasobwa ye imbere hagaragaramo ijambo irembo. Hakagaragaramo andi mabara abiri, rimwe ry'ubururu n'irindi ry'umweru, iruhande rwiwe ku meza hateretseho telefone n'ibindi bintu byinshi. Hakaba hanagaragara ahantu hacometse ku kantu k'umweru.

Ifoto yerekana impamyabushobozi ya Rwanda Revenue ikaba iri mu byiciro bibiri, igaragara ifite ibipande bitatu kimwe cyo gusaba ikindi kivuga mu ncamake, n'ikindi gice cyo kwishyura, ibyo bice hasi hakaba harimo ibindi bice byo kuzuzamo ibisabwa muri iyo dokima n'ibindi bintu bisabwa.

Ahantu hatuwe n'abantu mu maveni hakaba hagaragara umuntu wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, akaba ari munsi y'ipoto y'amashanyarazi ijyanayana mu mago, hirya hakaba hari igipangu kirimo gifite amatafari y'umuhondo, hakaba hagaragara inzu nini ifite amabati y'umutuku, iri iruhande n'ibiti.

Umunara muremure uriho ibintu by'ikoranabuhanga, ukaba uteye munsi akajaride gatoya, hakaba hari agashyamba n'ibiti binini cyane, hirya gato hakaba hagaragara umuhanda mutoya ujya gusa n'umweru.

Umugabo wambaye ingofero iri mu ibara ry'ubururu n'uturongongo tw'umutuku, akaba yambaye ishati arimo uturongo twinshi tw'umweru n'umukara, akaba yambaye ijire y'icyatsi n'ibara ry'ifu akaba ari kuri mu kagodoro ahantu hari ibyuma byinshi ari icyuma cy'ikoranabuhanga kigaragaramo benshi ari mu mabara atandukanye.

Akazu gatoya katagaragara neza. Hejuru y'ako hari umunara munini ucaho amasinga atwara amashanyarazi. Munsi yaho hasa andi mazu menshi. Hirya hari agati. Kandi hirya tena hakaba hari ibindi biti binini. Inyuma yaho kure hariyo umusozi.

Imodoka y'umweru n'umukara, cyane cyane yiganjemo umweru mwinshi, ikaba iparitse ahabugenewe kuri sima no munsi y'urusenge ruyirinda imvura n'izuba, ikaba ari imodoka ishinzwe gutwara indembe ku bitaro, ikaba yitwa ambiranse. Inyuma yaho gato hakaba hari jaride n'ibindi n'umusozi n'ahandi hantu hatuwe.

Hari abakobwa babiri bicaye kuri mudasobwa bakoresha mudasobwa bakaba bicaye ku ntebe y'urubaho imbere yabo bakaba ari amadirishya y'amagiriyaje afunguye, hakaba hari n'indi myanya isa nk'ikorerwaho ikoreraho abandi bantu badahari bakaba bari mu nzu.

Sima y'umweru, hakaba hagaragara igikuta cyo hejuru cy'icyuweru n'amatara y'umweru. Hirya hakaba hari amarido ari mu ibara ry'ubururu, hakaba hagaragara ibitanda byinshi biryamyeho abarwayi. Umurwayi wa mbere yambaye ishati y'umweru n'umutuku, akaba aryamye ku mashuka y'umweru. Hirya, hakaba n'ibindi bitanda byinshi by'abarwayi.

Imodoka iparitse ibara ry'ubururimo ibara ry'umweru ikaba iriho akamenyetso k'umusaraba w'ibara ry'umutuku, n'utundi turongo ikaba ari imodoka ishinzwe gutwara indembe ku bitaro ikaba yitwara Amburance, iparitse munsi y'inzu iruhande rw'inzu kumapave ahabugeneweho guparika imodoka.

Umugabo wambaye itabuririya y'umweru n'ipantaro y'umukara, akaba ahagaze mu nzu irimo amakaro y'umweru. Hakaba hagaragara ibyuma byinshi biri mu byiganje mu mabara y'umweru, mudasobwa zigaragara mu mabara y'umweru. Hirya gato hakaba hari ikindi cyumba nacyo kirimo mudasobwa nini, iyo urimo ibara ry'umweru. Inyuma gatoya, hagaragara akabati kariho ibitabo.

Inama yabereye muri jaride bamwe bakaba bicaye bikingiye izuba n'imitaka iri mu mabara atandukanye hakaba hari n'abandi bayoboye inama bicaye ku ntebe z'urubaho n'ameza y'urubaho bisa mu ibara ry'umuhondo hirya gato hakaba hari inzu y'ubururu n'amabati y'ubururu hakaba hagaragara ishyamba rinini inyuma yabo bakaba bicaye muri jaridi.

Umudamu ufite umusatsi, w'inzobe akaba agaragara yambaye ikanzu y'abashinjacyaha iri mu ibara ry'umutuku n'umukara, inyuma ye hakaba hagaragara ibara ry'umuhondo ryonyine ritavangiye.

Komite igizwe n'abantu benshi batandukanye hakaba hagaragara batatu harimo umusaza n'umudamu n'umugabo, imbere yabo hakaba hagaragaye abandi bantu bahicaye, iyi komite iri imbere igizwe n'aba bantu batatu bakaba bafite imirimo bari kwandika aho imbere yawe, hakaba hari n'undi usa nk'uhagaze uri kubavugisha.

Umugabo uhagaze hagati y'abantu benshi cyane, akaba yambaye imyenda y'imfungwa zo mu Rwanda by'ibara rya roza, hakaba hagaragara abantu bicaye ku meza no ku ntebe bamuzengurutse bateze amatwi bumva, hirya gato hakaba hagaragara ibiti bikikije ahantu bari.

Umugabo w'igikara wambaye ikanzu y'umutuku, akaba yambaye ishati y'umweru na karavate, inyuma ye hakaba hagaragara ikintu cy'umweru.

Imfungwa za leta zambaye imyenda y'iroza n'udupfukamunwa, zikaba zicaye ku ntebe y'umukara inyuma hakaba ariyo umugabo uzirinda ababaye ibintu imyenda ya kaki, n'ingofero ya kaki akaba ahagaragaye n'umukamera mani, bakaba bicaye ahantu hamwe hose.

Abagabo n'abagore bicaye ahantu umugabo umwe akaba yambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'umweru, undi akaba yambaye umukara ishati y'umweru. Umudamu urimo akaba afite mudasobwa mu ntoki, yayiteretse ku bibero byiwe, hirya gato hakaba yicaye undi mu mama wicaye imbere ye hakaba hari akameza k'umutuku gateretseho n'amazi yo kunywa, inyuma gatoya hakaba hagaragara tereviziyo.

Ibyapa bibiri bitandukanye kimwe n'icyapa cyerekana gereza ya Nyamagabe ikindi ni icyapa kivuga kwibuka inshu ya makumyabiri na gatanu jenoside yo mu rwanda imbere imbere y'ibyo byapa haba hagaragara ibiti byinshi bihateye.

Umugabo mukuru w'igikara wambaye ikoti na karuvati n'ishati y'umweru, akaba ahagaze imbere asa nk'uvuga afite indangururamajwi inyuma ye hakaba hari icyapa cyamamaza.

Igikuta kiri mu mabara y'umweru, kikaba giteretseho akantu kagaragara nka robine izana amazi, ako kantu kazana amazi kakaba gatereka ka gahura n'ikindi kintu cy'umutuku kiriho umugozi umeze nk'itiyo, hasi hakaba hagaragara amakaro matoya y'ibice.

Abanyeshuri bari gutozwa kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro utetse kuri ku kizwi nka gaze, bakaba bari imbere mu kibuga cy'amashuri, inyuma hagararaga amashuri bigiramo, bahagararanye n'uwabigenewe bari kubatoza.

Umupolisi w'u Rwanda wambaye iniforbe y'igihugu cy'u rwanda ikaba yambarwa n'abapolisi, yambaye ingofero akaba afite amapeti atatu ari ku rutugu rwe, inyuma ye hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishwa n'amagambo mu ibara ry'uburu.

Abantu benshi bambaye imyenda isa ya gipolisi y'u Rwanda, bakaba bambaye ingofero bose, bakaba bafite ibikoresho bizwi nk'imbunda mu mu ntoki zabo, bakaba ku ruhande rw'ukuboko kw'ibumoso bafite ikirangantego kigaragaza ko bakorera leta y'u Rwanda. Hirya gato akaba ari amazu matoya, asakajwe n'amabati y'icyatsi, ari mu irangi ry'umweru.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru kikaba kigaragara ibirangantego bibiri, kimwe cy'igihugu ikindi kirangantego cya polisi y'u Rwanda. Kikaba cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ayo magambo akaba avuga Rwanda nashono polisi, Nyarugenge disotirikiti, polisi yuniti.

Ifoto yerekana ibintu ko bigiye bikurikira. Hejuru gato hakaba hagaragara ijambo riri muri mpanda enye, rikaba ryandikijwe mu ibara ry'umukara, munsi hakaba harimo andi magambo na yo agiye ameze gutyo, akaba ayo magambo afite ubusobanuro bugiye butandukanye. Rimwe ribanza akaba ari disitirikiti, akaba arimo sekita sekita, munsi ya sekita harimo seri munsi ya seri bigakomeza.

Abadamu b'umugabo yambaye imikenyero, umugabo wambaye ikoti rya kositimu bakaba bamanitse akaboko k'iburyo bakora ku idarapo y'u Rwanda bari kurahira abari hirya hakaba hari undi muntu wicaye inyuma yabo hakaba hari ekara inyuza mu mashusho yawe.

Perezida w'u Rwanda akaba ahagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi ku tuntu turiho indandangururamajwi, tubiri tw'umukara; akaba na yambaye ikote ry'ubururu nada n'amarinette yirya gato hakaba hari ibintu bi hagaragara amabara y'ubururu n'umweru.

Amagambo menshi amanitse kutwuma imbere gato hakaba hagaragaramo abantu benshi bari ahantu hasa nk'aho urumuri rukeya hatari izuba, hirya hakaba hari igiti kinini gishashe amashami, hakaba hari inzu igaragara mu ibara ry'umweru yaka; ya etaje hakaba hari ikirere gisa neza.

Iyi ni ifoto yerekana abantu bari inyuma y'ikigo cy'amashuri cyitwa G.S Kimironko, hakaba hari amabara agaragara mu idarapo by'u Rwanda, ikindi hakaba hagaragara imodoka n'amarembo yinjira mu kigo n'abantu bari mu kigo cy'amashuri, hakaba hari abanyeshuri, inyuma y'ikigo hakaba hari umusozi.

Ikiganza kiri kwerekana igikumwe, iki gikumwe kiriho ibara ry'ubururu, inyuma y'iki kiganza hari amabara abiri ahagaragara, ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'ubururu.

Umudamu wicaye ku ntebe y'igiti. Akaba yambaye shanete, akaba yambaye ibitenge, akaba yambaye agakomo mu ntoki, afite isakame isakoshi, akaba yambaye ibirenge yicaye muri jaride, inyuma y'iwe hakaba hari agahanda katari jaride, n'ibiti inyuma ye.

Abantu benshi bari mu gipangu kimwe. Kikaba igipangu gisashemo sima hasi, kikaba gifite imiryango myinshi ari mu mabara atandukanye. Hakaba hagaragara inzu y'amabara y'umuhondo, umutuku, icyatsi n'ubururu. Abantu bakaba ari benshi, bahagaze ahantu hamwe bose.

Abadamu babiri bambaye umweru hejuru bombi, umwe akaba yambaye ipantaro undi akaba yambaye ijipo, bakaba bose bagaragara bafashe ahantu hari utuntu dufite umwenge, inyuma yaho gato hakaba hari ikintu cyihateretse cya purasitike kirimo utuntu.

Imodoka y'umweru yikoreye imizigo ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo. Imbere yaho hakaba hari indi modoka yaparitse ikaba ifite, iriho abantu bari gupakurura hirya gato hakaba hari akayira kabugenewe k'abanyamaguru.

Umuhanda mugari w'igitaka ukaba ugaragaramo imodoka n'abanyamaguru, imodoka isa ubururu yanditsweho amagambo y'umweru, yanditsweho amagambo ari mu nyuguti z'umweru ari yo medi ini Rwanda, hirya hakaba hari imodoka itwara abagenzi tagisi.

Umuntu w'umukobwa wambaye ikote ririmo amabara asa nkay'inka akaba ari mu muhanda wa nyabagendwa akayi kugendamo abanyamaguru. Mu muhanda munini hakaba harimo imodoka y'umweru iriho ihema inyuma ry'ubururu ikaba iri mu muhanda uzwi nka kaburimbo y'umukara. Hirya gato hakaba garagara abanyonzi, abamotari wambutse gato hagaragara ibiti byinshi.

Umuhanda ukaba ugaragaramo imodoka nini izwi nko ku izina rya howo ikaba itwaye umucanga. Hejuru ikaba itwikirijwe n'ihema ry'ubururu, ikaba ifite amapine y'umukara, hirya gato haba hari ibiti byinshi bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara, hakaba hagaragaramo kwasiteri n'umunyegare utwaye. Hirya gato hari akayira k'abanyamaguru, inyuma hakaba hazitiye na supanete y'ubururu, izitiye agashyamba k'ibiti byinshi.

Imodoka itwara abagenzi ya kampani yitwa Ritco. Iyi modoka iri mu mabara abiri. Umweru n'icyatsi n'ubururu bwa gatatu. Akaba iri mu muhanda, inyuma yaho hakaba hari ibiti byinshi bizamuye hejuru. Hakaba hari umuntu uri mu nzira y'abanyamaguru wikoreye umuzigo.

Umugabo uhetse igikapu cy'umukara, akaba yambaye ingofero y'umweru akaba agendera ku mbago, akaba ari mu muhanda usa umuhondo, akaba ari yerekeza muri gare ajya gutega, imbere hakaba hari bisi y'umweru, imbere hakaba hari indi bisi nini itwara abagenzi nayo isa ubururu, hakaba hari n'abantu bari gucuruza.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara akahagararamo utumodoka tubiriw'amapine atatu kamwe k'ubururubagaragara umubyeyi wambaye ibitenge hirya gato hari ugasanga n'umunara muremure nk'ama bagaragaramo itara rya icyatsi rumwe ruburira imodoka kugenda n'andi matara yaka umuhondo birwategereza kandi kandi mu modoka ya zambucu.

Umunyonzi utwaye igare mu muhanda wa kaburimbo akaba anyuranaho n'imodoka y'umweru y'ikamyo ,ikaba isakajwe n'ihema ry'umuhondo. Hakaba hari n'umumotari utwaye umugenzi akaba atwaye moto y'umutuku hirya gato hari ibiti byinshi, imbere mo gato hakaba hagaragara nk'ahakorerwamo n'ibindi bintu runaka hakaba hakikijwe n'akantu k'agasupaneti.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, ukaba urimo uturongo tw'umweru, hakaba hari hagaragaramo ikamyo itwaye imizigo, ikamyo itwaye imizigo, imodoka y'ubururu n'umweru, ikaba imodoka y'ubururu, hirya hakaba hari ishyamba n'amazu.

Muri iyi foto ndi kubona imodoka za kwasiteri zitwara abagenzi, iri mu ibara ry'umweru, hakaba harimo n'utundi tumodoka tuzwi nka twegerane dutoya kuri kwasiteri, imbere yaho gato haragaragara indi bisi izi izwi nko ku izina rya kebiyesi, itwara abagenzi bamwe bahagaze, imbere yabo hakaba hagaragara undi musozi munini urimo amashamba y'iminara.

Ni icyapa cyerekana kiri mu ibara ry'ubururu kikaba kizengurukijweho n'ibara ry'umutuku rikaba ririho inyuguti zanditswe mu mabara y'umutuku n'izindi zanditswe mubara y'umweru, munsi hakaba hagaragara abantu benshi bari kugenda banyurarana inyuma aho hakaba hagaragara n'ikindi kintu gisa nk'icyaka.

Ahantu habugenewe hari intebe zicirwamo n'abantu bari kugira baruhuke, hakaba hari etaje nini cyane n'abandi bantu b'abanyamaguru; barimo utuntu runaka muri gahunda zabokaba ari uduti tuzana akayaga ku bantu bicaye aho ngaho, inyuma gato hakaba hagaragara inzu nini y'umuhondo yanditseho ikigo gikorerwamo n'ikigo gishinzwe amazi wasake (WASAC).

Ikibuga cy'umupira, hakaba hagaragara amazamu abiri, kikaba kigaragaraho akandi kayira ko ku ruhande aho ikibuga kirangiriye, mu kibuga mo imbere hakaba harimo abantu bari gukina benshi, inyuma y'ikibuga haragaragara ishyamba rinini riteyemo ibiti.

Ikibuga gikinirwamo n'umupira wakinishwa abakinisha amaboko basiketi bolo hakaba hagaragaramo amabara y'umutuku n'ubururu n'umweru, hirya akaba ari aho kwicara abantu baje kureba umupira hakaba hanasakaye, inyuma gato hakaba hagaraga ikindi kibuga n'agashamba gatoya.

Icyapa cya mpanda enye kikaba kirimo akarongo ka apande enye k'umukara kikaba cyose kiri mu ibara ry'umuhondo hakaba harimo ijambo ry'Icyongereza ryitwa silowuri risobanura Kinyarwanda gahoro.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ruziga rw'umutuku mo hagati hakaba hagaragaramo akandi kaziga k'umweru gaciwemo n'umurongo w'umutuku, hakaba hagaragaramo ibimenyetso bibiri bitandukanye, kimwe cyerekana ko kijya imbere, ikindi gisubira inyuma byose bikaba biri mu ibara ry'umukara.

Icyapa cya manda enye kiri mu ibara ry'umuhondo kikaba kizengurutswe n'akandi karongo ka mpande enye kari mu mu ibara ry'umukara. Mo hagati hakaba hagaragamo ikindi cyapa kimeze nk'igitiyo kikaba kiri mu ibara ry'umukara, kikaba gifite akandi gashami ku ruhande ho gatoya kinjiramo.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara, ukaba mo hagati ucamo akarongo kanyuranya k'umweru, hirya hakaba hari abantu, hakaba hari icyapa kiranga amerekezo cy'abakomeza bajya i Huye cyangwa ku Kanyaru, abandi bajya ku Kibagabagaba cyangwa Nyamiyaga, hakaba hagaragara akajaride gatoya, inyuma yaho gato hakaba hagaragara amazu menshi n'ibiti.

Ni ibyapa bibiri byo mu muhanda bikaba biri ku gati kamwe ku gapoto kamwe kazwi nk'ipoto. Inyuma yaho hakaba hagaragara inzu ntoya hakagaragara ibiti biteye ahantu hakikijwe amabati. Ibi byapa bikaba byanditsweho imibare runaka igiye itandukanye.

Icyapa kiri mu mashusho ya mpande enye, kikaba kiri mu ibara ry'umweru, hagati hakaba hagaragaramo uruziga rw'umutuku, ruciyemo karongo, mu ruziga rw'umutuku mo imbere harimo ibara ry'umweru naho, hakaba hagaragaramo imodoka itwara abagenzi izwi nka bisi, hakaba hanyuzemo akarongo k'umutuku, gisa nk'ikibuza ko bitemerewe gutambuka izi modoka zimeze gutya.

Iri ni icyapa kiri muri mpande eshatu mu ibara ry'umutuku, mo imbere harimo akaziga gato karimo amabara atatu ariyo umutuku, umuhondo, n'icyatsi, amabara atatu akaba afite ibyo avuze icyatsi kiravuze genda, umuhondo tegereza, umutuku hagarara.

Icyapa cyo ku muhanda kiburira kimanitse, kikaba kiri mu ibara ry'umuhondo, kikaba gifite ibimenyetso bibiri, kimwe cy'uruziga cyanditsemo amibare mirongo itatu, imbere mirongo itatu ikindi cyanditseho kamera, inyuma yaho hakaba hari ibiti byinshi.

Amazu menshi y'amayetaje afite amabati y'umutuku, hakaba hatewe ibiti byinshi, inyuma y'ayo mazu hakaba hari ishyamba ry'ibiti birebire.

Imodoka zicanye amatara ku masaha y'umugoroba hakaba hari harimo abantu bari gutaha ku mugoroba hakaba hari pubeli itabwamo imyanda yakoreshejwe n'abanyamakuru ikaba iherereye munsi y'igiti kinini cy'amashami maremare cy'icyatsi.

Mu muhanda wa kaburimbo imbere y'uwo muhanda akaba hagaragaraho inyubako zijya zitandukanye n'ibipangu byinjiramo muri izo nyubako, hagaragara ibipangu bitatu bisa urundi ruhande hagaragaramo indi etage ishyirayamamara ry'umweru hakaba hagaragaramo insinga zijyana n'umuriro n'ayo mazu.

Umuhanda ugaragara ukozwe mu mabuye ukaba uri kunyurwamo n'abagabo batatu b'abazungu bahetse ibikapu byo mu mugongo impande zabo hakaba hari amamodoka atandukanye y'ubwoko byinshi hakaba harimo imodoka y'umutuku, iz'umukara imbere gato hakaba hari inzu zikozwe mu byatsi ziri kwerekezamo abo bantu.

Umuhanda w'igitaka ukaba werekeza ku rupangu ,urupangu rukikijweho n'ibiti by'imikindo , rukaba urupangu rwarezeho ibyatsi hejuru yaho ku matafari inyuma gato hakaba hagaragaramo inzu ntoya ifite ibara ry'ubururu n'amabati y'umukara, inyuma gato naho hakagaragara etage nini iri mu ibara ry'umweru.

Umusore wambaye ishati y'ubururu akaba iruhande rw'imodoka y'umukara iparitse hirya gato hakaba hagaragara ahantu hari imiryango myinshi ikorerwamo ubucuruzi, hakaba hagaragara inzu yiganjemo ibara ry'umuhondo n'umutuku n'umweru ho gatoya.

Igipangu, igipangu kirimo amapave hakaba hagaragara aho imodoka zica winjira ujya mu gipangu mu mu nzu. Hakaba hari inzu n'imodoka. Igipangu kikaba gisa umukara. Inzu akaba ari aka etage gato.

Mu rusisiro ahantu hari abantu benshi ndetse n'amazu menshi haparitse amamoto yiganjemo hafite ibara ritukura, moto imwe igaragara imbere iriho umumotari wambaye ijire y'akazi.

Umumotari utwaye moto n'umugenzi akaba ari mu muhanda, akaba ahagaze ategereje abana b'abanyeshuri barikwambukira ahabugenewe ngo bambuke hakaba bagaragara ko icyapa kirimo ibara ry'ubururu cyerekana ko hari ishuri nk'abanyeshuri bajya kuhigamo haba n'ikindi cyitwa ngarurarumuri kimurikira m'ibara ry'umutuku n'umweru hakaba hagaragaye ibiti byinshi b bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara ukaba urangizwa n'utu tw'umuhondo hirya gato hakaba hari amabara abiri umweru n'umukara tena hirya gato hakaba harimo jalid hirya gato y'aho tena hakaba hagaragaramo umuhanda wa nyabagendwa abagenzi harimo n'abantu babiri berekeza imbere hakaba hari na jardin n'ibiti.

Umuhanda munini wa kaburimbo y'umukara hakaba hagaragara ahabugenewe guparika amamodoka, hirya gato hatakaba ari akayira kajyandamo abanyamaguru, akaba ari umuhanda ukikijwe n'ibiti birebire binini, hakaba hagaragaramo imodoka n'abamotari n'abanyonzi bose, hirya gato hari akajaride gato hirya gato hakaba hari amazu manini.

Umuhanda urimo abamotari n'ibinyabiziga hakaba hagaragayemo umumotari w'inyuma utwaye gaze yo gucana igicaniro, imbere yaho hakaba hagaragara imodoka y'ubururu itwaye indi modoka y'umukara. Hakagaragara irindi korosi y'umuzenguruko uzwi nka rompuwehakaba n'ibiti, hakaba hagaragara n'akayira k'abanyamaguru kugendera n'ishyamba inyuma yaho.

Umuhanda, w'umukara, ugaragaramo imodoka ebyiri zirimo icyerekezo kimwe zigenda, hakaba hari nindi isa n'iparitse ahantu habugenewe, hakaba hirya y'aho hari ahantu hagenda n'abanyamaguru, hakaba hagaragara akantu kubu karirimo ibara ry'ubururu koba yicarwamo n'abagenzi bategereje imodoka, impande y'umuhanda hakaba hagaraga ibiti byinshi bihateye.

Ikiraro kigaragaraho amatara acanye ku masaha y'umugoroba nka saa kumi n'ebyiri. Hakaba hagaragaramo abantu bariguca munsi y'ikiraro. Icyo kiraro kikaba gisizwe amarangi y'umweruru hasi. Hakaba hagaragara n'uduti duto duto. Hirya gato hakaba hari amazu atuwemo, akorerwamo n'abantu.

Umuhanda wa kaburimbo, ugaragaramo imirongo myinshi ivunaguye, imirongo yereka abantu ko aha habugenewe ho kwambukirwa n'abanyamaguru. Hakaba hagaragaramo imodoka nziza y'umweru n'indi y'umukara. Hirya gato bambutse umuhanda hakaba hagaragara amazu y'ubucuruzi ya etaje ikaba ifite amatafari y'umuhondo, ikaba isakaje amabati y'umutuku, hari n'amafoto y'amashanyarazi hirya yaho.